Iduka ricuruza inzoga z'ubwoko bwa henikeni amajuwise, amasabune yo koga ,amavuta ya gikotori ,amakaramu y'abanyeshuri ndetse na borosada zo gukora isuku mu menyo.

Iduka foro ya mbere ni iduka rikoresha ricuruza ibikoresho: nk'ibikapu byo guheka mu mugongo, ibikapu by'aba mama ndetse n'abakobwa ,ibisashi byo gutwaramo ibikoresho byinshi:indobo, imikoropesho udukoresho babikamo uburoso bwo gukoropa muri tuwalete ,cyangwa koza tuwalete za kizungu ,harimo tapi, harimo amavuta ,naho foro ya kabiri yo hariho icyapa cy'inzoga bigaragara ko bacuruza Mitsingi.